Abagabo babiri bahagaze mu murima, cyangwa se mu kibuga, bari gupima ubutaka buri muri kino kibara, aba bagabo bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'ingofero z'igitaka.

Abahungu bane bose bafashe ibyuma bameze nkaho bari gukora imashini yo kubaza imbaho ikora inzugi zigiye zitandukanye.

Abantu bameze nk'aho ari abafundi bahagaze ku nyubako, bameze nk'aho bari kuyipatana kugira ngo barebe ukuntu bazayubaka, bambaye amagofero y'umutuku, harimo umwe wambaye iy'umuhondo, abafundi n'abantu bakora umurimo w'ubwubatsi kandi utunze abantu benshi, hano mu gihugu cy'u Rwanda.

Abagabo babiri bameze nkaho bari gukanika ibyuma runaka, kuko bambaye ibisarubeti n'amapantaro y'icyatsi, ndetse n'inkweto z'igitaka, bameze nkahobari gukanika

Ahantu hagaragara ko bakoreramo ibikorwa bitandukanye, cyane hameze nk'aho ari muri sitidiyo batunganyirizamo indirimbo ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye imyambaro isa bameze nkaho barangije gutegura amafunguro barangije kwigiraho. Umwuga w'ubutetsi utunze abantu benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda.

Abantu bameze nk'aho ari abanyeshuri bari mu itsinda bari gukora ibibazo mwarimu wabo yabahaye ngo babikore nk' abanyeshuri. Urabona bameze nk'abari guhanahana ibitekerezo.

Umwarimu umeze nk'aho ari kwigisha abana imashini, kubigisha gukoresha ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ryiza cyane, kuko rituma umuntu agira ibintu byinshi amenya.

Abahungu batatu n'umugore umwe bambaye amashati y'umukara, batatu bambaye ekuteri undi umwe ntabwo yambaye ekuteri, bameze nk'aho bari gukora imashini runaka.

Imodoka ihagaze ahantu hameze nk'ahari icyobo, hahagaze abagabo bameze nk'aho bari kuyikanika. Imodoka ni nziza zoroshya urugendo rw'abantu. Nk'abo bantu bari gukora imodoka, bakora umwuga w'ubukanishi, utunze abantu benshi hano mu Gihugu cy'u Rwanda.

Abana b'abakobwa bameze nkaho bari kwiga guteka, bambaye imyenda myiza cyane rwose, baberewe, bambaye ingofero z'umweru, n'amashati y'umweru, n'utuntu tumeze nk'udusarubeti tw'umutuku.

Abana b'abanyeshuri，bameze nk'aho bari gusuka undi munyeshuri mutoya. Bambaye imyenda y’imyeru hejuru, hasi ni ubururu.

Abantu bambaye imyenda y'akazi, bashobora kuba bari gukora imigati. Imigati ni ikiribwa cyiza cyane abantu barayikunda cyane.

Abanyeshuri bameze nkaho bashungereye mwarimu wabo, kuko biri kugaragara ko ari kubakorera ikibazo cyari cyabananiye, kwiga ni byiza cyane bituma umwana ajijuka mu mutwe ndetse akazaba azigirira akamaro mu gihe kizaza.